Abaporisi benshi cyane bambaye imyenda y'umukara ndetse n'amakasike. Iruhande rwabo hari imodoka, ndetse hirya yabo gato hariho ibiti byinshi cyane, bigaragara ko bagiye ku rugamba.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bakaba bafite bose ibitabo mu ntoki. Ndtese hakaba harimo n'umusirikari wambaye ibendera ry'igihugu, bikaba bigaragara ko aba bantu bari mu nama, bakaba bicaye mu ntebe z’umweru.

Abadaso bahagaze kurongo ariko bakaba ari benshi cyane, bakaba bambaye iniforume y'icyatsi, ingofero, amashati ndetse n'amapantaro. Bakaba bambaye bote z'umukara, hasi aho bahagaze hakaba haciye umurongo w'umweru ugororotse.

Abantu benshi cyane bicaye, imbere yabo hakaba hari amazi ndetse na terefone. Hakaba hari ibitambaro bisa n'ubururu, bikaba bigaragara ko aba bantu bari mu nama.

Abantu bitwikiriye imitaka igiye itandukanye, harimo iy'imituku n'iy'imikara. Bakaba bicaye ahantu hamwe, imbere yaho hakaba hahagaze umugabo wambaye amarinete y'umukara ufashe urupapuro rw'umweru ndetse na mikoro.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bicaye mu ihema ry'umweru bigaragara ko ari abantu bitabiriye inama runaka, bakaba ari abantu benshi cyane bicaye mu ntebe zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye ku murongo, bicaye kumeza, ameza asa n'umutuku. Imbere yaho hakaba hari igishushanyo kirimo ibara ry'mweru, ndetse hakaba harimo abantu bambaye imyenda y'umweru, ndetse n'imyenda y'imikara.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko bari gukora inama, kuko bicaranye n'abayobozi hirya yabo hariti byinshi cyane, ndetse n'ikirere gisa nkaho kirimo ibicu byinshi cyane.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'umutuku, laputopu ndetse n'umugabo ufashe mikoro, bigaragara ko bari mu nama.

Ingoma iba ikozwe mu giti bakayambika uruhu kugira ngo bayivuze. Bakaba bakunda kuyikoresha iyo bari kubyina imbyino za gakondo, ndetse n'iyo bari kuvuga n'ibyivugo bya kera, igihe byabaga ari ngombwa.

Umwana muto ufashe umusekuzo akaba ari gusekura akoresheje isekururo. Inyuma ye hakaba hari inzu ifite urugi rusa n'ubururu. Ndetse hirya ye kure, hakaba hari igiti.

Igihingwa cyitwa isaka abantu bahinga kugira ngo bagisarure babone uko banywa igikoma, ndetse benga imitobe igiye itandukanye bacyifashishije. Bityo kikaba gifasha no mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse bikaba bitanga n'ibyatsi ku matungo.

Inkoko bahuriraho bagosoreraho ibishyimbo, ndetse n'igiseke gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, hakaba hari umuntu ufite ibiganza bibiri, hakaba hari n'umwenda uri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Abana bahagaze ahantu hamwe ahantu hari uruzitiro bakaba bambaye imyenda y'imyeru, ndetse n'imyenda y'imikara, habakaba harimo umwe usutamye akaba ari gusa. Ibyo twita gusya bakoraga kera akaba afite aho ari gusera ndetse n'inkoko, ndetse n'igiseke kirimo ibyo ari gusa.

Umubyeyi urimo gusuka ibishyimbo abikuye mu cyibo. Akaba abisuka ku nkoko. Inkoko akaba yayiteretse ku kirago iruhande rwe, hakaba hateretse n'ikindi cyibo.

Ibiseke birambitse ku meza, kandi ku meza hakaba hari udutambaro dutoya turimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho n'udukoko dutoya, ndetse n'igitambaro birambitseho.

Abantu babiri barimo kugosora ibishyimbo bifashishije intara ebyiri ndetse bakaba bahagaze ku ihema, inyuma yabo hakaba hariyo ibiti birebire ndetse n'ibindi biti bigufiya.

Ababyeyi bikoreye ibiseke biri mu ibara ry'umweru n'umukara, bakaba bakenyeye imishanana, bakaba bambariyemo amasengeri y'umukara, inyuma yabo hakaba hahagaze abagabo bakenyeye imishanana y'umweru, hirya hakaba hari ibiti birebire cyane.

Urubyiruko rukiri rutoya rurimo kwigishwa kurasa bakoresheje imyambi ndetse n'imiheto, mu byatsi by'icyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Abantu bambaye imyenda y'imweru, imyenda y'imikara, barimo kuvuza ingoma, ingoma zikorwa m'uruhu, mupu baba bakuye ku nyamanswa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, hakaba hari umukobwa uri kuri mikoro, akaba ari kuririmba.

Abakobwa bambaye imyenda ya gakondo ndetse bafite n'ibiseke bya gakondo, hirya yabo hari ibiti ndetse bicaye no ku misambi igiye itandukanye, irimo amabara agiye atandukanye.

Umugabo ufashe igikoresho bakoresha bari gucuranga umuziki wa gakondo, akaba yambaye ikote ry'umweru iruhande hakaba ari taka. Iki gikoresho kikaba gikozwe mu biti.

Ababyinnyi gakondo, babyina indirimbo zo mu mico runaka nk'igihugu runaka, aho babyina bagaragaza yuko bagaragaza umuco w'igihugu, kandi bagaragaza ko igihugu kirimo umuco, aho utatakaye.

Ababyinnyi babyina injyana za gakondo, bakaba bambaye imisatsi isa n'umweru, bakaba bambaye n'imyenda irimo umweru n'umukara, bakaba bafite inkoni mu ntoki zirimo umweru n'umukara, ndetse n'amacumu.

Abantu benshi bazengurutse umuvure bafite imiheha mu kanwa kabo bikaba bigaragara ko bari kunywa kuko bayisize mu muvure barihande. Bikaba bigaragara ko bari mu bukwe bakoraniye ahantu hamwe kugira ngo bishime bizihize ibintu runaka.

Ababyeyi babiri n'umwana umwe, bigaragara ko aba babyeyi bakora inkono za gakondo, zimwe batekeramo ibishyimbo ndetse bamwe bakaba bazitekeramo inyama, hirya yabo hakaba hari igiti ndetse hakaba hari n'uruzitiro.

Umubyeyi uri mu kugosora ibishyimbo. Akaba ari kubigosora akoresheje intara ndetse n'umwuka. Iruhande rwe hakaba hahagaze abandi bantu, ndetse hakaba hari n'imifuka ndetse n'indobo ziteretse.

igitiyo kirambitse, gikwikiye, kirimo umuhini muremure, gikunda gukoreshwa iyo bari gucukura umuhanda, ndetse bari bari kubaka ibiraro, cyangwa se bari kubumba amatafari bakunda kugikoresha.

Urukurikirane rw'amazu menshi cyane, bisa nk'aho akikijwe n'ibiti byinshi cyane, kandi aya mazu akaba asa nk'aho akorerwamo ubucuruzi, ari nk'uruganda rukora ibintu bigiye bitandukanye.

Ababyinnyi babyina imbyino za gakondo, bambaye imyambaro irimo umweru ndetse n'umukara, bakaba bafashe n'amacumu mu ntoki zabo, inyuma yabo bakaba hari ibikuta bisa n'igitaka.

Abakobwa babiri umwe wambaye ikanzu y'umweru wera ndetse n'undi wambaye ikanzu y'umweru wijimye, bakaba bikoreye inkono ebyiri ku mutwe wabo, bakaba bari kuzamuka ku musozi, inyuma yabo hakaba hari undi musozi ndetse n'ikirere hakaba harimo ibicu bike by'umweru.

Umumama wambaye ingofero, wambaye umupira w'umutuku akaba afashe isuka ku rutugu, iruhande rwe hakaba hari umurima ndetse n'intoki n'ibiti byinshi.

Umukobwa ukenyeye igitambaro, akaba afashe isuka arimo guhinga iruhande rwe hakaba hari intama, zirimo kurisha ndetse n' uruzitiro n' amazu.

Umubyinnyi gakondo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, hakaba harimo n'ibara ry'umukara havanzemo n'ibara ry'icyatsi, hakaba hejuru ku mutwe hari imisatsi isa n'umweru afashe inkoni mu ntoki.

Isekururo bifashisha bari gusekura imyumbati cyangwa se bari gusekura isombe, kugira ngo babone ibyo barya cyangwa se babone ibyo bajyana mu isoko.

Umuntu usutamye wambaye ishati y'umweru n'umupira, akaba ari gukora ku biseke bitoya bifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, akaba akandagiye ku misambi nayo iri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ababyeyi bafite amasekuru ya kinyarwanda bifashisha bari gusekura isombe, ndetse bari gusekura n'imyumbati kugira ngo babone ifu, ndetse babone n'isombe barya, ibyo bikaba bibafasha mu kubona ibiryo bitabagoye cyane.

Umukobwa wambaye imyenda y'ikinyarwanda, akaba yambaye ibara ry'umweru mu ijosi ndetse no ku mutwe. Akaba akenye akantu ku rutugu gasa n'umweru.

Insinga z'amashanyarazi bifashisha bari kwesitara umuriro mu mazu agiye atandukanye, ay'ubucuruzi ndetse n'ayo babamo mu gikarito akaba ateretse hasi hakaba harimo igikarito k'ibara rya kaki, ndetse hakaba harimo n'ikindi gikarito cyo kiri mu ibara ry'umutuku.

Igikoresho cy'amashanyarazi cyifashishwa mu gushyira umuriro muri telefoni, ndetse no mu bindi bikoresho by'ikoranabuhanga kiri mu ibara ry'umweru ndetse hariho n'icyapa kiyiranga.

Igikoresho bifashisha mu mashanyarazi kugira ngo barinde ko hari abantu bazahakora bagashya, bakagishyiraho kugira ngo babone uko banyuzamo insinga, noneho batange umuriro mu nzu no mu bindi bikoresho.

Ikiraro kirekire cyubakwa ahantu hari amazi menshi cyane kandi magari. Kiba cyarubatswe na leta, cyangwa se cyarubatswe n'inzego z'igihugu kugira ngo abantu bakinyureho.

Inyubako nini cyane, iri ahantu harambuye cyane, igaragara nk'aho ari inyubako y'ishuri kandi iruhande rwaho hakaba hari imisozi miremire cyane, ikirere kirimo ibara ry'umweru byiganjemo ibicu by'umweru.

Inyubako yubakishije amabuye iruhande rwayo hakaba hari abantu benshi, ndetse n'izuba rigaragara yuko riri kurenga ahandi rikaba rihari ari ryinshi cyane.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. ikaba iriho ibiti ikaba itari yuzura bakaba bari kuyishyiraho ibyuma. hasi hakaba hari ubwatsi bukeya bisa nkaho aho hari urutsinga rugiye rutambitse ndetse n'umuhanda uri iruhande.

Inyubako ndende yubakishijwe n'amatafari ndetse iriho urupangu, hagati harimo ibiti, ikunda gusengerwamo n'abizera, n'abaturage bizera Imana basenga, bakeneye kugira ngo Imana isubize ibyifuzo byabo.

Urusengero runini cyane, rwubakishije amatafari ahiye, rukaba rusize irangi ry'umweru, ndetse rukaba rusakajwe n'amabati y'umutuku. Bigaragara ko ari urusengero ruri ahantu haherereye mu mugi, kuko rukikijwe n'amazu menshi cyane nayo asakajwe n'amabati y'umutuku.

Inzu yubatswe kugira ngo abana bajye babona aho bigira, aho bajya batorezwa kugira umuco ndetse no kugira indangagaciro zibayobora mu byo bakora.

Inyubako ya etaje, nini cyane, iri mu ibara ry'umweru, ndetse, ikaba yubakishijwe amatafari y'umutuku, imbere hakaba hari icyapa cyanditseho ibiro by'intara y'Amajyaruguru.

Inyubako nini iri ahantu heza isize irangi ry'umweru. Mu kirere hanyuzemo urutsinga ndetse hakaba hanateyemo igiti kirekire cyane.

Inyubako yubatse ahantu heza harambuye iruhande rwayo hari ibyatsi bisa n'icyatsi, inyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati y'umutuku. Bigaragara ko ari urusengero abantu baza gusengeramo.

Ibyuma bishinze binini cyane, kandi birebire, biri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, bigaragara y'uko bitanga amashanyarazi, bityo abantu bakabona umuriro bacana. Bakaba babyifashisha kugira ngo umuriro uboneke, noneho bawukoreshe babona ibindi bikoresho.

Umuhanda urimo ibara ry'umukara n'umweru, inyubako irimo ibara ry'umweru ikaba yubakishijwe amatafari ahiye y'umutuku, hirya yayo hakaba hari ibiti bigaragara ko ari ishyamba, hejuru mu kirere hakaba higanjemo ibicu by'ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu.

Inyubako nziza cyane ziri ahantu hitegeye, bisa nk'aho ari inyubako za leta zishinzwe kujyamo abantu badafite aho baba, zikaba zubakishijwe amatafari ndetse zikaba zisakajwe n'amabati y'umweru.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari y'umutuku, ndetse hariho n'ibyuma imbere. Ikaba ifite imiryango y'imikara, hariho ibishushanyo biriho abamama ndetse n'abantu bambaye imyenda y'imyeru n'imikara. Iruhande hakaba hateretse n'intebe.

Inyubako nini cyane kandi nziza, zisakajwe amabati y'ubururu ndetse n'amabati y'umweru, bikaba bigaragara ko ari ahantu hari uruganda runini cyane, hagati yazo hakaba higanjemo ibiti bitari byinshi cyane.

Imodoka iri mu muhanda, iruhande rwayo hakaba hari inyubako, hejuru hakaba hari ikirere kirimo ibicu by'umweruru, ndetse n'izuba rikaba riri kurasa.

Abantu benshi cyane bari ku muryango wa kiliziya, biteguye kwinjira aho. Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, y'umutuku, ndetse ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'ibyapa bine, birimo ibara ry'umweru kimwe kikaba kirimo ibara ry'umweru n'umukara. Ikindi kikaba kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, bakaba bahagaze iruhande rw'icyatsi ndetse n'umuhanda.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe bamwe batatanye, abandi bicaye begeranye, iruhande rwabo hari ibiti bibiri, ndetse n'inyubako z'amashuri zirimo ibara ry'umurongo w'umweru, bakaba imbere yabo hari umugabo ufashe mikoro, ndetse n'undi uhagaze, n'impapuro bafite zikaba zisa n'umweru.

Uruhurirane rw'abantu benshi cyane bicaye hamwe abandi bahagaze, aho abahagaze batonze umurongo, imbere yabo hari umuntu ubari imbere, akaba ari gukora mu kiganza cy'umumama uhagaze imbere.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bicaye impande zombi iruhande rumwe rw'umuhanda n'uruhande rundi rw'umuhanda, urw'iburyo nurw'ibumoso, hagati hakaba harimo umuntu bigaragara ko arimo kuremesha inama.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe, bigaragara ko bari mu nama akaba harimo umumama uhagaze uri kuvuga ijambo afashe mikoro, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru.

Umubyeyi uhagaze ufashe mikoro, abandi bakaba bicaye bakaba bicaye mu ntebe z'umweru. Bikaba bigaragara yuko bashobora kuba bari mu nama, bitewe n'uko uyu mubyeyi yafashe ijambo ari kuvuga, abandi bakaba bicaye bateze amatwi.

Uruza n'urujya rw'abantu benshi cyane bari muri gare, ndetse n'amamodoka menshi cyane ari mu ibara ry'umweru. Bityo aba bantu bikaba bigaragara ko bari gutega imodoka bajya ahantu hamwe, n'abandi bava ahandi.

Moto iriho kasike, umutaka wa MTN, imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'abantu barimo kuyipakiramo imifuka y'umweru ndetse n'ibitoki byinshi.

Imodoka ifunze hose, ariko inyuma hakaba hari icyapa kirimo umutuku ndetse ikaba isize irangi ry'umweru, ikaba irimo imifuka ifunze ndetse hejuru, bikaba bigaragara ko hari abantu.

Abanyeshuri bahetse ibikapu mu mugongo harimo abahetse ibikapu by'umukara ndetse n'ibikapu by'umutuku, bambaye iniforume y'imipira y'ubururu n'amajipo ya kaki, inkweto z'umukara, bagiye kwinjira mu modoka ifite ibara ry'umweru.

Imodoka ziri kunyura mu muhanda ku murongo umwe, zikaba zose zifite ibara ry'umweru, zifite amapine y'umukara inyuma yazo hakaba hariho inyubako, inyubako zikaba zigaragara ko zisakaje amabati y'umukara.

Imodoka iri mu muhanda ifunguye urugi, harimo umuntu uhagaze mu muryango w'imodoka. Imodoka ikaba iri muri kaburimbo. Hakurya y'imodoka hakaba hari amazu, ndetse n'ibiti birebire. Ndetse mu muhanda hakaba harimo n'andi mamodoka n'abantu barimo gutambuka.

Imodoka nini y'ikamyo iri mu ibara ry'umutuku werurutse, ndetse n'izindi mashini zikora umuhanda, inyuma hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'amazu menshi, bikaba bigaragara ko izi modoka ndetse n'izi mashini biri gukora umuhanda.

Umuhanda unyuramo abantu amagare abiri, ari mu mabara y'umweru n'umukara, ndetse n'umuntu wambaye ijipo y'umukara ndetse n'ibirenge, akaba yambaye na kamambiri bityo bikaba bigaragara ko aya magare atwara abagenzi, ndetse akaba ari iruhande rwa kaburimbo.

Umumotari wicaye kuri moto, akaba yicaye kuri moto isa n'ubururu, akaba ahagaze mu isoko inyuma ye hakaba hari imyenda ndetse n'ibindi bikoresho byinshi.

Imodoka zifite ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu ndetse zikaba zanditseho ritiko, akaba ari imodoka ziri ku murongo nyinshi cyane hejuru hakaba hagaragara igicu cy'umweru ndetse n'ubururu.

Amamodoka menshi cyane aparitse ahantu hamwe afite ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, bigaragara ko ari muri gare. Hakaba harimo n'abantu bari kugenda bari gutambuka bamwe baza n'abandi basohoka.

Amabuye y'umweru, ndetse n'akantu k'uruziga karimo amazi kameze nka pisine, hirya yaho hakaba hakikije ibiti birebire cyane ndetse n'intebe. Hakaba hari uruzitiro, hakurya cyane hakaba hariyo imisozi miremire.

Ikibuga kirimo ubwatsi bw'icyatsi, hakaba harimo umurongo usa n'umweru, hakaba harimo abakinnyi bambaye amajezi y'umweru, ndetse n'amajezi y'ubururu, ndetse na amagezi y'umukara, inyuma yabo hakaba hari abantu bicaye ba bigaragara ko bari gufana, bakaba bakikijwe n'urupangu ndetse inyuma y'urupangu hakaba hariho ibiti birebire.

Umupira urambitse hasi, ukaba ufite ibara ry'umweru, ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'ubururu, ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umutuku, ndetse bakaba bambaye n'amapantaro y'umweru, ku maboko yabo bakaba bambaye amasaha y'umukara, inyuma yabo hakaba hari ibiti byinshi.

Abakinnyi bicaye ku magare bakina umukino wo gutwara amagare, bakaba bari muri kaburimbo, bakaba bambaye kasike z'umweru, ku ruhande rwabo aho bageze hakaba hari ibiti birebire cyane. Ndetse hakurya hakaba hari n'imisozi.

Umuntu ugaragara ko arimo gukora siporo yambaye imyambaro irimo umweru ndetse n'umukara. akaba yambaye isaha ku kaboko akaba ari gusimbuka icyuma kirimo ibara ry'umweru n'umutuku.

Umukobwa urimo gusimbuka, wambaye inkweto zirimo umweru n'umukara, hasi hari amagambo nayo yandikishije ibara ry'umukara, inyuma ye hari ikibuga hakaba harimo n'abandi bantu benshi cyane, bigaragara ko bari gufana mukino.

Umwana wicaye ku igare wambaye ingofero y'umweru, uri mu muhanda, umuhanda ukaba urimo imirongo y'umweru, ndetse iruhande rwe hakaba hariho inyuma ye hakaba hariho inzu...

Abakinnyi bambaye inkweto, bambaye n'iyenda iri mu ibara ry'umutuku ndetse no mu ibara ry'ubururu bakaba bicaye muri sitade ariko irimo abantu bakeya. Sitade yubakishijwe intebe nazo zisa n'ubururu.

Abakinnyi basiketi bambaye amajezi y'ubururu hakaba arimo n'uwambaye ijezi imwe y'umweru, bakaba bakandagiye hasi kuri tapi isa n'ubururu, inyuma yabo hakaba hari intebe ndetse hakaba hari n'abantu bicaye.

Uruhurirane rw'abantu benshi cyane bahagaze iruhande rw'umuhanda bigaragara ko bari kureba irushanwa ry'amagare. Kuko imbere yaho hari umunyonzi uri kugare bigaragara ko yambaye ingofero, kandi yambaye niforume y'abantu baba bari mu irushanwa. Inyuma yabo hari inyubako yamazu meza.